Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba ari inyubako y'amashuri, hakaba harimo udutebe twiza cyane ndetse n'ameza abanyeshuri bicaraho bari kwiga.

Utunyamaswa tugiye dutandukanye dukunze kuba dushushanyije ahantu cyangwa se ari ibipupe, tukaba twifashishwa bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, babigisha ibintu runaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ari inyubako y'amashuri, ikaba iriho ibikoresho bigiye bitandukanye abanyeshuri bifashisha baribyiga kugira ngo babe batsinda.

Udushushanyo tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi y'umutuku, ubururu, icyatsi, iroza ndetse n'umuhondo, tukaba twifashishwa n'abarimu bigisha abanyeshuri b'inshuke.

Udukoresho tw'udupupe tuba dutandukanye, tuba twarakozwe n'abantu kugira ngo abana biga mu mashuri y'inshuke bajye babasha kwiga neza kandi babikunze kuko utwo dukoresho tuba ari ingenzi kuri bo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke benshi bambaye impuzankano ziri mu mabara agiye atandukanye, bakaba bari kumwe n'abarimu babo, babatoza utuntu tugiye dutandukanye twiza.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane, hakaba hari abanyeshuri bahagaze mu busitani munsi y'igiti, bakaba bari gukina udukino runaka, mu masaha y'akaruhuko ka saa yine.

Udukoresho tugiye dutandukanye dutanga umunyenga ku bana biga mu mashuri y'inshuke, tuba turi mu mabara agiye atandukanye aho abana bagenda bararya umunyenga bareba n'ayo mabara meza.

Imodoka y'ubururu ifite imbehe isa umutuku, ikaba iri kumwe n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye dufite amabara menshi, bakaba babyifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke babigisha utuntu twinshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, baba ari abahanga cyane kubera ko bakunze kwigishwa n'abarimu babo, bakabigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma na bo bakabikurikiza bakagira ikinyabupfura n'uburere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'ishuri, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, hashushanyijeho utunyamaswa tugiye dutandukanye bifashisha bari kwigisha abana bato.

Umwana mutoya cyane bigaragara ko yaba afite nk'umwaka umwe, akaba afite ibintu mu ntoki ari gutamira bigaragara ko atari yamenya agaciro k'ibyo bintu ari gutamira.

Ibishushanyo by'abana bari kwiga gukoresha mudasobwa bagiye batandukanye, aho abandi bafite telefoni mu ntoki bakaba bari mu gikorwa cy'ikoranabuhanga kigezweho cya kijyambere.

Amoko menshi agiye atandukanye y'amaradiyo, aho aya maradiyo ari ingenzi cyane kubera ko bayifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, babereka amabara atandukanye yazo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho hari ubusitani bwiza cyane bunyuramo akayi abanyeshuri banyuramo bagiye mu ishuri.

Igikuta kiriho amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera aho ibi bimera ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere maze akaba yakirigita ifaranga.

Akantu ka mpande enye kakaba karimo uduce tugiye dutandukanye, karambitse ahantu mu ndabyo hejuru hari akanyayugunyugu bikaba bigaragaza ko abarimu babyifashisha bari kwigisha abana biga imyuga n'ubumenyingiro.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu buhinzi bikunze kuba bishushanyije ahantu ku gikuta ku bigo byigisha abanyeshuri b'inshuke kugira ngo babashe kubimenya amazina yabyo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite iminyega myinshi cyane abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke bajya kuriramo umunyenga kugira ngo bumve bamerewe neza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, irimo ibitanda byinshi bigaragara ko bijyamwaho n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, igihe cyose baba bananiwe bakaruhukira aha.

Abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri bikaba bigaragara ko ari banyeshuri biga ku kigo kimwe, bakaba bari kugenda bambaye impuzankano z'ishuri bari kugenda baganira uko amasomo ameze.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inhuke, bakaba bari mu ishuri aho bari kumwe n'umwarimu wabo, akaba ari kugenda abigisha uburyo ki bagomba kwicara ndetse no kwitwara kugira ngo bazagire ikinyabupfura.

Amapine agera muri abiri agiye abiziritseho ibyuma, aho harimo n'amareyo, bigaragara ko ari ibikinisho biba bitunganyijwe mu bikoresho bya moto bigiye bitandukanye.

Abana benshi cyane biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, aho bateraniye hamwe bicaye ku masambi bari guhabwa inyigisho na mwarimu wabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibikuta bishushanyijeho ibikoresho byinshi byifashishwa mu buhinzi, aho iyo nyubako ari nziza cyane. Ikaba ari iy'amashuri y'incuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke baba bafite udukoresho tugiye dutandukanye bifashisha bari kwigishwa amabara agiye atandukanye ndetse no kubara no kureba ukuntu abantu bakorera hamwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke haba hari ibishushanyo biba biri mu mabara agiye atandukanye abarimu bifashisha bari kubigisha, aho bakoresha nk'igishushanyo cy'ingona bababwira ngo bajye bavuga ngo bayibayi ingona.

Akayira keza cyane gasakaye bigaragara ko kanyurwamo n'abantu bagiye batandukanye bitewe n'aho baba bagiye by'umwihariko kakaba gakunze kuba kari mu kigo cy'amashuri abanza.

Ibishushanyo bigera muri bitandatu, birimo utuzeru twinshi tugiye dutandukanye, byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza, bari kwigisha abanyeshuri babo isomo ry'imibare.

Inyubako nziza cyane ziri kubakwa mu buryo bugezweho, zikaba ari inyubako z'umunyenga abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bajya gukiniraho.

Umugabo wambaye imyambaro igiye itandukanye, ari kumwe n'abanyeshuri aho ari umunyeshuri umwe uri guhana agapira n'umugore wambaye iby'umukara bari guseka bose bishimye.

Umugore uri kumwe na bagenzi be bari mu gikorwa kijyanye n'ubuhinzi, akaba ari kubereka uburyo ki bahinga imbuto zigezweho hanyuma bikabateza imbere bakabona amafaranga.

Udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye dukunze kuba turi mu mashuri abanza, aho hariho agatwe k'umuntu bigaragara ko batwifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Agakoresho k'agaca uruziga kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza igihe baba bari kwiga isomo ry'imibare, bakajya bakifashisha kugira ngo babashe gupima inguni zitandukanye.

Umwana wiga mu mashuri abanza, akaba ari kugenda ari guhura na cibiri n'umurongo maze bakaganira bishimye bakari kumuhereza utuntu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri abanza aho ifite utwuma turi mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'andi mabara menshi agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho itakaje amabati y'umutuku, ikaba ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru n'inzugi z'ubururu iyo nyubako rero ikaba ari iy mashuri abanza

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri ikaba isakaje amabati y'ubururu, ifite amatafari ahiye ayubatse, inzugi n'amadirishya birasa ubururu, ikaba ifite umureko ufata amazi uyajyana mu kigega.

Ibitabo byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho babisoma kubera ko biba biri mu mabara agiye atandukanye, bikabashimisha maze bakunguka ubumenyi.

iInyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri isakaje amabati y'ubururu ikaba ifite imiryango myiza cyane aho iyi nyubako ari ingirakamaro kuko abanyeshuri iyo bayigiyemo babasha gutsinda.

Igitabo kiriho umukobwa wambaye ikanzu, akaba ari ahantu aho ari kurasa ikibiriti, bigaragara ko yiga mu mashuri abanza, bari kumwereka akamaro ko kurasa ikibiriti.

Akabuwate kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, aho kabafasha guca imirongo igiye itandukanye mu isomo ry'imibare.

Igikuta gishushanyijeho amagambo menshi cyane n'ibishushanyo byinshi, aho hari amagambo agiye yanditse mu mabara agiye atandukanye aho hari ayanditswe ngo murakaza neza n'anditse ngo turatangaje.

Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza akaba afite igitabo ari kugenda asoma aho ari gusomera bagenzi be inkuru zigiye zitandukanye na bo bakaba bamukurikiye kubera ukuntu ari umuhanga.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu mwuga w'ubuhinzi, aho harimo bote, udupfukantoki ndetse n'udupfukamunwa, bifashisha kugira ngo birinde kwandura.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri ikaba isakaje amabati y'ubururu ifite ibikuta biteye irange ry'umweru, yubakishije amatafari ahiye ifite inzugi zisa ubururu ifite n'ubukarabiro.

Umubyeyi wicaranye n'abana be ari kubaha amafunguro bikaba bigaragara ko aba bana biga mu mashuri abanza, umubyeyi akaba ari kubatoza kurya babanje gukaraba.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye menshi, bakaba baba bafite barumuna babo biga mu mashuri abanza, baba bakurikira amasomo mwarimu abigisha maze bakamenya ku bwenge.

Umufozi akaba ari n'umurashi, akaba afite ibikoresho byabugenewe byifashishwa ku mikino njyarugamba aho yiteguye kuba yarasa ikintu runaka cyaza kimusatira.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye aho biba biri mu mabara agiye atandukanye ku buryo iyo abanyeshuri babibonye bibashimisha cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri aho ayo mashuri yubatse neza mu buryo bugezweho, yigirwamo n'abana biga mu mashuri abanza ahantu runaka.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ari inyubako yo ku kigo cy'amashuri cya karangazi giherereye mu karere ka nyagatare.

Ibitabo bigiye bitandukanye biri mu mabara menshi, hejuru hariho imashini ikuba imibare, hakaba hari n'umukasi ndetse n'amakaramu y'ibiti agiye atandukanye.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, tukaba ari utumashini bifashisha bari gukuba kugira ngo bamenye uko imibare ihagaze.

Agasanduku karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kwiga isomo ry'imibare, haba harimo amarati, uducaruziga ndetse n'ikaramu y'igiti.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, tuba turi ahantu hamwe twanditseho amagambo menshi agiye atandukanye, twifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke, imibare ndetse n'inyuguti uko byandikwa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n' abanza igihe cyose baba bari kwiga isomo ry'imibare bakabyifashisha kuko babikoresha bari gushushanya imironko.

Igishushanyo kiri mu ishusho y'uruziga, kikaba kiriho inyuguti za a na b, byifashishwa mu mashuri abanza bari kwigisha abana isomo ry'imibare.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ikaba iba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, haba hari utugambo twinshi dutandukanye tuba twanditse ku bikuta abarimu babo bifashisha bari kubigisha kugira ngo abo bana babashe kumenya ubwenge.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, zikaba ari inyubako z'ikigo cy'amashuri, aho hamanitsemo ibendera ry'u Rwanda, riri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Ibitabo byinshi cyane by'amabara agiye atandukanye, aho ibi bitabo byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bajye barebera kuri aya mafoto, maze abashe kumenya amabara menshi.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, aho ibi bikoresho ari ingirakamaro cyane, ku buryo umunyeshuri wese wiga mu mashuri y'inshuke, areba tuno tubara tukamugirira akamaro, akamenya no kubara.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho ikingishije inzugi ziri mu mabara y'ubururu, iyi nyubako rero ni nziza ku buryo abanyeshuri bahigiye babasha kumererwa neza cyane.

Ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abarimu bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo babashe kumenya uko umudugudu uba umeze n'abantu baba bawutuyemo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo aho haba harimo imikani, amakaramu y'ibiti ndetse n'amakaramu asanzwe.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuba turi mu mabara menshi aho utu dukoresho tuba ari ingirakamaro cyane, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo babashe kumenya amabara menshi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyo nyubako iteye amarangi y'umuhondo ku bikuta ndetse ikaba irimo udutako twinshi tugiye dutandukanye bifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho iyo nyubako iteye amarange y'umweru ku bikuta, ikaba ifite ameza agiye akikijwe n'udutebe.

Ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambara impuzankano nziza cyane ziri mu mabara agiye atandukanye, aho ziba ari ingenzi cyane bigatuma babasha gutandukana n'abandi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe biganjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bari gukoma amashyi bishimye cyane, bigaragara ko bari mu gikorwa runaka k'inama bakaba bari mu mwanya wa morale.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite umuryango mwiza washushanyijeho ikirangantego cy'u rwanda, hejuru handitseho ngo murakaza neza mu rwunge rw'amashuri rwa nyagatare.

Abantu benshi bateraniye hamwe, biganjemo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bakaba bari mu nama bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, bigaragara ko ari abanyeshuri ndetse n'abagororwa.

Inyubako nziza cyane z'ikigo cy'amashuri zikaba zifite ubutani bwiza cyane bugezweho aho ubwo busitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse izi ndabyo zikaba ari nziza cyane kubera ko ziteza imbere bene zo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bambaye impuzankano z'ishuri bakaba bari guhabwa icyemezo k'ishimwe na mwarimu wabo aho bambaye amashati asa umweru.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye ku ntebe bakaba bambaye impuzankano z'ishuri, bari mu nama aho imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ari kugenda abagezaho inama.

Umurima uteyemo ubusitani bwiza cyane, hakaba hanyuzemo n'akayira keza gashashemo amapave kerekeza ku nyubako nziza z'ishuri bigaragara ko ari ahantu heza cyane hasukuye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bahagaze bafite impapuro bari gusoma bigaragara ko bishimye bashimye n'inama bahawe.

Umukobwa wicaye kuri mashini ya mudasobwa, akaba ari kwiga uko bakoresha ikoranabuhanga kubera ko muri iki gihe rikomeje gutera imbere cyane, akaba yiga mu mashuri yisumbuye none akaba agira ngo azasoze hari icyo azi.

Icyumba cy'ishuri cyahuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye, aho higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari kugenda baganira ku buryo ki umuriro w'amashanyarazi wakanikwa neza.

Iminyega igiye itandukanye yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza aho bagenda bari kuyaryaho imimyenga kugira ngo banezererwe maze bishime neza cyane.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye udupira tw'icyatsi ndetse n'umuhondo, bakaba ari abanyeshuri bari mu nama.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri, aho ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, bicaye ahantu munsi y'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahaherereye.

Abantu bakuru bambaye udupira tw'umuhondo b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari gukaraba kuri kandidagira ukarabe z'ikoranabuhanga aho imbere yabo hari umukorerabushake uri kuberekera.

Abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye, bakaba bateraniye hamwe bambaye impuzankano z'amataburiya, aho buri wese afite mudasobwa mu ntoki ye, ari kugenda ayifashisha kugira ngo abashe kumenya ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri aho iteye amarangi agiye atandukanye, hakaba hariho n'amatafari meza cyane, yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bahuriye hamwe bari kumwe n'abarimu babo, aho abarimu bari kubigisha buryo ki basigasirara indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umuhondo ku bikuta. Ikaba ifite inzugi z'ubururu, aho hari abantu bari hanze bagiye kwinjira muri iyo nyubako kugira ngo barebe ko abana biga neza.

Umugabo uri kumwe n'abanyeshuri akaba afite indangurumbajwi mu ntoki yishimye ari gukoma mu mashyi ari kumwe na bagenzi be, bakaba ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba ari abarimu bigisha mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho bigisha abanyeshuri imyuga myinshi igiye itandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, aho bambaye n'amashati y'imyeru, bakaba kandi bari kuganira uburyo ki bagomba gutsinda amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite urugo rufite urugi rwanditse mu Cyongereza ariko bivuze mu Kinyarwanda ngo murakaza neza mu kigo cy'amashuri cya Cyongo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi, bahagaze ahantu mu kibuga bakaba bari kugenda bakorera hamwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano z'umweru, bari kumwe na mwarimu wabo, aho ari kubaha akantu k'icyatsi mu ntoki, bigaragara ko ari igihembo.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe biganjemo abiga mu mashuri yisumbuye cyane cyane abiga ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro aho baba bari kwiga ibijyanye no gukanika amashanyarazi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi biganjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bambaye udupfukamunwa bicaye bashyizemo metero, bigaragara ko bari mu nama mu gihe cya Korona virusi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye ku ntebe, hari kugendamo mwarimu wabo, aho ari kugenda areba ko amasomo yabo bayiga neza kandi bakayatsinda, dore ko bari mu kizame.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari mu nama aho bicaye munsi y'ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta ndetse hakaba hari n'inkingi z'ubururu zikozwe mu byuma, hari n'abarimu bigisha aho hantu kuri icyo kigo.

Udukoresho tugiye dutandukanye dukozwe mu buryo bugezweho bigaragara ko tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro cyane cyane abize muri kaminuza y'u Rwanda, bakabibumba neza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba ari inyubako ifite umuryango ufunguye, bigaragara ko ari inyubako yo muri kaminuza y'u Rwanda.

Igikuta giteye amarangi y'umweru, kikaba kimanitseho utwapa tugera muri dutatu dushushanyijeho ibintu bitandukanye by'ikoranabuhanga, bigaragara ko biba byarakozwe n'abanyeshuri bize imyuga n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, inzugi zirasa icyatsi ndetse ibirahure birijimye ntabwo bigaragara neza, hakaba ari ahantu heza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho isakaje amabati y'umutuku, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo.

Abantu bakora ibintu by'ubugeni baba ari abahanga cyane, kuko baba barabyize mu mashuri yisumbuye bagera no muri kaminuza bagakurikirana ibijyanye n'ubumengiro.

Abantu baba barizeye muri Kaminuza y'u Rwanda, barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, baba ari abahanga cyane kubera ko babasha gukora ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresheje ibumba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa harimo nk'intebe n'ameza, bikaba bigaragaza ko izi ntebe arizo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Abanyeshuri bize muri kaminuza y'u Rwanda ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, baba bafite ubuhanga buhanitse ku buryo bakora ibintu bigiye bitandukanye nko gushushanya utuntu twiza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza, bakunda kwigira hamwe aho baba bari kuganira ku bintu runaka kugira ngo amasomo yabo babashe kuza kuyatsinda neza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako ya kaminuza, aho iyi nyubako ari ingenzi cyane kubera ko iba yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza.

Udukoresho tugiye dutandukanye dukozwe mu buryo bw'ubugeni, aho utu dukoresho ari ingirakamaro cyane ku buryo umwana wese uzi kudukora aba yarize mu mashuri yisumbuye ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri baba barize muri Kaminuza y'u Rwanda ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro, baba bafite ubuhanga buhanitse, aho babasha gukora udukoresho tw'ubugeni badukoze mu ibumba ndetse na sima.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite ibikuta biteye amarangi asa ubururu, hakaba harimo agatebe ndetse n'akameza, bigaragara ko byigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda.

Akayira gashashemo amapave kanyurwamo n'abantu bagiye batandukanye aho baba bari kujya hose ariko kakaba gakikijwe n'ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane ikikijwe n'ubusitani, buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi ndetse n'umucaca, aho biba bibereye ijisho, ku buryo kuhicara umuntu yumva aguwe neza.

Inyubako nziza cyane zubabatswe mu buryo bugezweho, aho zubatswe mu buryo bw'amagorofa, ziteye amarange y'umweru ku bikuta ndetse n'ibyuma byiza cyane biteye amarange asa n'ivu.

Amashusho menshi agiye atandukanye ari ku nsakazamashusho bigaragara ko ari nziza cyane, ikaba yifashishwa n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Inanasi ndetse n'ibitunguru n'imineke biri ahantu hamwe ariko bikaba ari igishushanyo, bigaragara ko umuntu wagishushanyije ari umuhanga, ari umunyeshuri wize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.

Igicupa kirambitse hasi kikaba kiriho icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye, bigaragara ko kirimo umuti w'ingirakamaro, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igikuta gisa icyatsi gishushanyijeho ikirango kiri mu mabara agiye atandukanye y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku, kikaba cyaratunganyijwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda aba ari abahanga.

Igikuta gisa icyatsi kiriho udushushanyo turi mu mabara agiye atandukanye aho udushushanyo tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro by'umwihariko bize muri kaminuza y'u rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ifite inkingi isa umweru, bikaba bigaragara ko ari inyubako yo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare.

Abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro muri kaminuza y'u Rwanda baba bafite ubuhanga cyane cyane abize ubukorikori bwo kubumba ibibumbano bitandukanye.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe bari mu ishuri, bigaragara ko biga mu mashuri ya kaminuza, bakaba bafite amazi imbere yabo bose uko bangana.

Icyapa kimanitse ahantu kiriho amoko agiye atandukanye y'amashusho y'abantu, aho bamwe bari mu nama, abandi bari kubyina, abandi bari kuririmba ndetse hari n'undi umwe uri kuvuga ijambo.

Abakobwa benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari gukoma mu mashyi, bigaragara ko ari abakobwa beza cyane, bakaba barize muri kaminuza y'u Rwanda, ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Umugabo weinzobe wambaye amadarubindi, akaba ashushanyije ahantu ku gikuta, bikaba bigaragara ko yashushanyijwe n'abana b'abahanga bize muri Kaminuza y'u Rwanda ibijyanye n'imyuga n'ubumenyinyi ngiro.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu baba batandukanye, aho biba byarakozwe n'abanyeshuri bize muri Kaminuza y'u Rwanda, ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu mashuri yisumbuye, baba ari abahanga cyane, bikaba akarusho ku bize ibijyanye n'ubugeni kubera ko baba bazi kubumba ibintu byinshi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo abanyeshuri biga mu mashuri yi'sumbuye, bakaba ari abana b'abahanga kandi b'abanyabwenge ku buryo amasomo yabo babasha kuyatsinda neza.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, baba bafite ubuhanga buhanitse, aho baba bazi gukora udushusho twiza, tuba turi mu mabara agiye atandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa abiga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'abiga muri Kaminuza y'u Rwanda baba ari inararibonye cyane kubera ko baba bazi ibintu byinshi.

Amavazi ababundi muri sima aho abakomeye cyane kubera ko akorwa n'abanyeshuri bize muri kaminuza, aho baba barize imyuga n'ubumenyingiro, maze bakabasha gukora ibyo bintu.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikoranywe ubuhanga, bigaragara ko biba byarakozwe n'abanyeshuri baba barize muri Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko abize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyinngiro.

Akameza kariho amakaramu zigezweho, hakaba hariho ibitabo na telefoni umuntu akaba akozeho, bigaragara ko ari umunyeshuri wa kaminuza uri gusubiramo amasomo ye yifashishije ibi bikoresho.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho mo imbere hari udushusho twiza cyane turi mu ruziga no mu mabara atandukanye, tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'ubumenyingiro.